Umuntu uri gushyira ifumbire ikorerwa mu ruganda, izwi nk'imvaruganda, ku rubuto rw'umwembe kugira ngo ruzabashe gukura neza ,ruzatange umusaruro mwinshi cyane, abashe kubona amafaranga.

Abahinzi bari kwita ku bigori bashyiraho ifumbire izwi nk'imvaruganda, kugira ngo ibi bigori bizakure neza, bizabashe gutanga umusaruro mwinshi, kandi ushimishe nyirawo. Abashe gutunga umuryango no gusagurira amasoko.

Ubwoko bw'ifumbire ikorerwa mu ruganda yitwa ifumbire mvaruganda, ikaba ikoreshwa mu gufumbira imyaka igiye itandukanye, kugira ngo abahinzi bazabone umusaruro utubutse.

Abaturage bari gushira imvaruganda ku bimera ndetse n'ibihingwa kugira ngo bizakure neza, bibashe gutanga umusaruro ushimishije. Ni ahantu hasa nahasasiye ndetse hirya hasa nahateye icyayi gisarurwa, kikabyazwamo amafaranga kikoherezwa mu mahanga.

Abantu bari gufuhira imiti mu myaka kugira ngo izere neza, bakaba bambaye imyenda yabugenewe irimo ga, ibisarureti, udupfukamunwa, bakaba bahetse n'amapombo. aya mapombo akaba ari yo akoreshwa mu gufuhira umuti, kugira ngo ugere ku myaka yose uko bikwiye.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buhinzi, bakaba bayitera mu bihingwa bari kugira ngo, birinde ibyonnyi biza kurya imyaka, bigatuma, itera cyane ngo itange umusaruro ushimishije.

Uyu ukaba ari umuti ukoreshwa cyane cyane mu kwica udukoko, dushobora gutera imyaka yo mu mirima, ukabasha kuba warinda udukoko kwangiza imyaka, ugatuma ba nyir'imyaka babasha kuzabona umusaruro mwiza.

Umuhinzi uri gutera umuti mu myaka ye, kugira ngo ayirinde ibyonnyi, cyangwa se udusimba dushobora kubirya bikaba byakwangiza umusaruro we, ateganya kuzakuramo.

Amafi yatetswe neza, yatunganyijwe ku buryo bwabugenewe agashyirwa ku isahani. Ategereje kuribwa, ndetse agatanga intungamubiri zikenewe ku bari buyarye.

Abantu bari gutwara amato y'uburobyi bari gushaka umusaruro w'amafi, kugira ngo bawujyane ku isoko bakuremo amafaranga, ndetse nabo basigarane andi mafi yo kurya, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Imwe mu nyamaswa zo mu mazi yitwa ifi, ikaba yararobwe ikaba itegereje gutunganywa cyangwa kugirwa neza, ikajyanwa ahabugenewe cyangwa se ikaribwa, cyane ko ari isoko y'intungamubiri ku buzima bw'abantu.

Ifunguro cyangwa se ibiryo bigizwe n'ifi yatetswe neza, yakatiweho inyanya ndetse hakaba hariho n'amafiriti cyangwa se ibirayi bitetswe mu mavuta, bikaba biri ku isahani bitegereje kuribwa.

Ahakorerwa imirimo y'ubworozi bw'amafi ibizwi nk'ibizenga aho bacukura bagashiramo amazi, maze bakajya bateramo imiti kugira ngo amafi arimo bororeyemo atagira ikibazo ugakure neza bazabashe kuyavanamo amafaranga.

Abagabo babiri bari mu bwato bari kuroba, bari gushaka amafi mu mazi magari y'ikiyaga cyangwa se mu mugezi munini runaka, bakaba bashaka amafi yo kurya cyangwa se yo kugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima busanzwe.

Amafi yarobwe agatunganywa, akaba ategereje gutekwa, cyangwa se kuba yashyirwa ahantu habugenewe, kugira ngo azabashe kuribwa, cyangwa se kugemurwa mu masoko ahandi hantu, akoreshwe.

Amafi arangije gutunganywa arangije no gu gutekwa akaba ashyizwe ku n'isahani, akaba ageze igihe cyo kuribwa. Ndetse bigaragara ko ari amafi ateguwe neza cyane akaba agira buryohe ndetse n'indungamubiri nyinshi cyane.

Amafi y'arobwe, akaba yashyizwe mu gakoresho kazwi nk'agatete, akaba ategerejwe gutegurwa neza akajyanwa ku isoko, cyangwa se akaribwa.

Ibiryo byatetswe cyangwa se byatunganyijwe neza cyane, birimo ifi izwiho kuba igira intungamubiri nyinshi, bikabaho n'umuceri ukaba utera imbaraga ndetse n'ibindi birungo bitukuye, birimo nk'inyange.

Amafi yarobwe, yakuwe mu mazi, akaba ategereje gutunganywa, kugira ngo abone kuribwa cyangwa se kujyanwa ku isoko, akaba azwiho kuba isoko y'intungamubiri zigiye zitandukanye, ku buzima bw'umuntu.

Amafi ari mu mutego cyangwa inshundura, yarobwe mu mazi, akaba ategereje gutunganywa, kajyananwa ku isoko cyangwa akajya gutekwa, akaribwa. Amafi akaba kagira intungamubiri nyinshi cyane.

Ubwoko bw'amafi matoya, arobwa akabasha gutunganywa kugira ngo aribwe. Aya mafi akaba azwi nk'amahera cyangwa se insambaza, akaba aryoha cyane ndetse akagira intungamubiri nyinshi.

Amafi yarobwe yakuwe mu mazi magari cyangwa ibiyaga cyangwa imigezi akaba yashyizwe hamwe ategereje gutunganywa akajyanwa ku isoko agakoreshwa icyo yagenewe. Amafi agira intungamubiri nyinshi ndetse akagira uburyohe abantu bayakundira.

Igiti cya avoka kirimo uruyange rwinshi cyane, uru ruyange akaba arirwo ruvamo imiteja ari nazo zivamo, zamara gukura bakazitara zigashya bakazazijana ku isoko bakazikuramo amafaranga menshi.

Ikibara cyangwa se icyuzuri, kirimo ibyatsi by'ibishikashike byameze kubera ko uy'umurima badaheruka kuwuhinga ukaba ukikijwe n'ibyatsi bitandukanye bigiye bikoze amashyamba hirya no hino hakaba hagaragara nk'aho baheruka guhingamo ibigori baza kubisarura.

Umurima uhinzwemo ibirayi bigaragara ko bitaragera igihe cyo kwera, bigeze mu gihe cy'uruyange, hirya yaho hakaba hari uwundi murima urimo ibigorigori bigaragara ko hezemo ibigori, bikaba byaramaze gusarurwa.

Umurima w'amajeri bigaragara ko wari warahinzwemo n'ibigori nyuma bakaza kubisarura, bakaba basigaje kuzasarura amajeri kugira ngo bongere babone kuzongera gutera indi myaka.

Imirima bigaragara ko yari yarahinzwemo imyaka nyuma imyaka ikaza gusarurwa, bakaba batarongera guhinga ngo bahinge ibindi bihingwa, hirya hakaba hariho intoyi ndetse n'ibigori bisa n'ibyamaze kwera bigasarura.

Umurima wari warahinzwemo ibigori nyuma bikaza kwera bakabisarura, bakaba barabihunitse bakaba bategereje kuzongera guhinga uyu muririma, kugira ngo batere n'indi myaka.

Umurima wezemo ibigori, bakaba babisaruye, bakabitema, ibigorigori nabyo bakaba barabirekeye mu murima, bishobora kuzakoreshwa nk'ifumbire yo gufumbira iyindi myaka bazatera, kugira ngo nayo izere imeze neza, hanyuma ijyanwe ku isoko.

Insina cyangwa se ibitoki biri kumwe n'imboga biri inyuma y'urugo rw'umuntu hafi Aho hari ;umuhanda ndetse no hakurya hakaba hari iizindi nzu zisa naho zitari zuzura neza kugira ngo bazatangire kuzibamo.

Icyuzuri cyangwa ikibara cyahinzwemo ibigori ,nyuma bakaba barabisaruye ,hakaba harimo inka iri kurisha itanga umukamo.

Igihingwa cy'ibirayi bikiri mu murima, bikaba bigeze igihe cyo kwera cyangwa se bikaba bigeze igihe cyo kuyanga, bikaba bibura igihe gitoya ngo bizabashe gusarurwa, bijyanwe ku isoko.

I kibara cyangwa umurima wasaruwemo ibigori ukaba uri kurishirizamo ubwoko bw'amatungo magufi yororerwa mu rugo yitwa ihene. Hakaba hirya y'aho hariho inzu icyubakwa, hateye n'igihingwa cy'ibishushu byera bikabyara ibiryo ku bantu benshi.

Ubwoko bw'ibiti bita intusi, bikaba ari ibiti bikomera cyane. Birakura iyo bimaze gukura bimaze gukomera babikoramo imbaho, bakazifashisha bari gukora ibikoresho byo mu rugo, birimo: nk'ameza yifashishwa bari kuyariraho, n'intebe bifashisha bari kwicaraho.

Ubwoko bw'igiti gikunda kuba mu bishanga, cyangwa se ahandi hantu haba amazi. Iki giti bakaba bacyita ikizibaziba, iyo gikuze kirakomera bakaba bagisatura cyangwa se bakibaza, kikabasha kuvamo imbaho.

Umurima urimo ibihingwa byitwa ibihaza ndetse n'insina, zeraho ibitoki binagaragara yuko ari umurima wari waratewemo ibigori, nyuma bakaza kubisarura.

Umurima wasaruwemo ibigori, ukaba utegereje kongera guhingwa bagateramo iyindi myaka, ishobora na yo kuzatanga umusaruro mu gihe kiri imbere, bigaha nyirawo amafaranga, ndetse n'ibiryo byo kwifashisha mu rugo.

Umurima uhinzemo ibiribwa bizwi nk'ibitunguru bikaba bikoreshwa bari gukaranga, bikaba ari ibihingwa bahinga bikera nyuma y'igihe gito cyane bakabijana mu isoko bakavanamo amafaranga menshi cyane. Hakaba hariho n'ibindi bihingwa byitwa ibishushu nabyo byera ari binini cyane bikaba biryoha.

Ibihingwa bizwi nk'ibitera imbaraga, bikaba byitwa ibijumba, byamaze gusarurwa ndetse biratunganywa, bikaba birunze ahantu hamwe, kugira ngo bizaribwe.

Ubu ni ubwoko bw'intoryi bakunda kwita rweru, cyane cyane zikunda guhingwa n'abahinzi basanzwe bahinga intoryi nazo z'ubundi bwoko, zimara kwera bakazijyana mu isoko kuzishakamo amafaranga, zikaba zinahenda cyane, abahinzi bakaba bakunda kuzihinga ku bwinshi.

imbuto zihingwa kugira ngo zizajyanywe mu isoko zitange amafaranga, zikaba zikunda guhingwa ahantu h'ibishanga cyangwa se ahantu hagaragara amazi, kugira ngo bene zo bazabone amafaranga, zikaba zikoreshwa nk'ibirungo, zikaba zizwiho kuba zihumuza ibiryo.

Ibigori byakuze neza cyane byafumbiwe neza bikaba bigeze igihe cyo kwera, ndetse no gusarurwa bigahunikwa neza bikarindwa ibyonyi kugira ngo bizavemo umusaruro cyangwa se bazabikoremo imbuto yo kuzongera gutera ikindi gihe.

Rimwe mu matungo magufi yororerwa mu rugo rizwi nk'ihene, rihagaze ahantu mu kiraro, bigaragara yuko ritegereje kugaburirwa cyangwa se guhabwa ibyo kurya na ba nyiraryo.

Imbuto zeze zitwa amacunga cyangwa se indimu, zikunze guhingwa kugira ngo zizaribwe, cyane cyane zivure uburwayi bugiye butandukanye abantu bafite.

Rimwe mu matungo magufi yororerwa mu rugo izwi nk'inkoko, ikaba ari isake aho ishonda izindi nkoko z'inkokokazi kugira ngo zibashe kuzaturaga amagi avemo utwara cyangwa si udushwi.

Amateke yasaruwe akunze kwitwa amabubungu akaba ari amateke aryoha cyane iyo atetswe akaba ashya, iyo ahiye aba akomeye cyane afite uburyohe bwinshi cyane.

Umugore uri mu murima w'ibishyimbo uri kwita ku bishyimbo bye, bikaba bigeze igihe cyo kuyanga cyangwa se kuzana uruyange kugira ngo bizabone kuzana impeke zikomeye, nyuma y'aho bizasarurwe.

Amateke yakuwe mu murima ataratuganywa akaba azwi nka muhungungu ndetse kakaba ari amateke aryoha cyane. cyane cyane iyo yatekwanye nibyitwa ibishyimbo.

Imbuto zikunda guhingwa n'abahinzi bashaka amafaranga. Izi mbuto zikaba zizwi nka puwavuro, zikaba ari imbuto zikoreshwa nk'ibirungo kugira ngo bihumuze ibiryo, cyangwa se bibyongerere uburyohe.

Abahinzi bari gusarura ibirayi bateye, bakaba bari kubisarura ngo babijyanane ku isoko, cyangwa se babijyane mu ngo zabo, baje kubiteka babirye, cyangwa basagurire n'amasoko, babone amafaranga yo gutunga ingo zabo.

Abahinzi bari mu murima uhinzemo ibyitwa ibihwagari. Ibi bikaba ari ibihingwa bikunda kuvamo amavuta yo gutekesha, ndetse bikaba bigaragara ko bitarera, bigeze igihe cy'uruyange.

Imiteja y'ibishyimbo yasaruwe ikarambikwa ahantu ku meza, ikaba itegereje gutekwa cyangwa se gutunganywa kugira ngo iribwe. Imiteja ikaba iryoha cyane, kandi ikaba ibarizwa mu bwoko bw'ibirinda indwara.

Umuntu uri gutera umuti mu bihingwa kugira ngo abirinde kuzafatwa n'ibyonyi. Uno muti ukaba urinda ino myaka kuzafatwa cyangwa se konwa n'udusimba duto dukunda kurya imyaka, tugatuma itera neza.

Abakozi bari gukora imirimo yo gusoroma icyayi, icyayi kikaba ari igihingwa ngandurabukungu, abakozi bakoramo bakaba bakuramo amikoro, ndetse bakavanamo uburyo bw'imibereho bwa buri munsi, icyayi kibamo amafaranga menshi afasha ba nyiracyo kugera ku iterambere bifuza.

Abaturage bari mu isoko bari kugurisha ibitoki batemye bakabizana ku isoko baje kubigurisha, kugira ngo babone amafaranga yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi n'ayo gutunga imiryango yabo.

Ibirayi byeze biri mu murima bari gusarura, bigaragara ko byaneze cyane byarumbutse, kubera ubutaka bwiza biteyemo, bikaba bigiye gusarurwa bikajya kuribwa cyangwa bikajyanwa mu isoko.

Igitoki cyeze cyasaruwe, bategereje kuba bakijyana ku isoko bakabona amafaranga, cyangwa se bakaba bakirya bagiteka bakakirya, kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza.

Ibihingwa byitwa imyumbati, iyi myumbati yarasaruwe kandi ireze cyane, ikaba igeze igihe cyo kuribwa cyangwa kujyananwa ku isoko, igacuruzwa ikavanwamo amafaranga yo gukoresha.

Abantu bari mu murima w'ibigori, ibigori byiza cyane bigaragara ko byafumbiwe neza. Bakaba bari kwishimira uko ibigori byabo biri kugenda bikura neza. Bashobora kuzabona umusaruro mwiza cyane.

Ibihingwa byiganjemo imbuto nyinshi, zikaba zihingwa n'abahinzi baba bashaka kuzibonamo amafaranga, nk'intoryi, puwavuro cyangwa se imiteja ndetse n'indimu, cyangwa ibizwi nk'amacunga. Bakaba babijyana mu isoko bakabikuramo amafaranga menshi.

Imbuto ziryoha cyane zitwa amapera, zikaba ari imbuto ziba zifite utubuto mo imbere, ndetse zinakomeye ku buryo kuzirya bisaba kuba ufite amenyo akomeye cyane.

Umuhinzi uri m murima we urimo ibihingwa byitwa ibigori, bikaba bigeze igihe cyo kwera cyangwa se bikaba byaramaze kuzana icyo twita impeke, bikaba bisigaje igihe gito ngo bisarurwe.

Imifuka irimo ibinyampeke byiganjemo ingano irambitse zimaze kwanikwa, yasaruwe itegerejwe kuba yajyanwa ku isoko bakazigurisha bagakuramo amafaranga yo gutunga ingo.

Urubuto rwitwa icunga, akaba ari urubuto rwera mu giti kigira utubabi dutoya cyane, rukaba ari urubuto ruzwiho kuba rusharira, kandi rukaba rukiza indwara zigiye zitandukanye.

Ibiribwa bitaga ibishushu cyangwa se ibishayote birambitse ku mufuka byamaze gusarurwa, bigiye kuba byajyanwa byajyanwa ku isoko cyangwa se bikaba byakoreshwa mu rugo bikaribwa cyane cyane ko biba byarahinzwe kugira ngo bizaribwe n'abagize umuryango.

Abagore bari guhingira inanasi. Inanasi zikaba ari igihingwa kiryoherera cyane kubera umutobe zigira Abantu benshi bakaba bazikunda kubera uburyohe bwazo. Inanasi zikaba ari igihingwa abahinzi bacu bakuramo amafaranga menshi.

Amapera yeze bigaragara ko atarera neza bakunda kwita aya kizunguba ari amapera karyoha cyane abantu cyane cyane abana bakaba bayakundira uburyohe bwabo butangaje.

Umuhinzi uhagaze mu murima we hafi y'igiti cy'umwembe, bigaragara ko ari gukorera imyaka ye yahinze kugira ngo izabashe kumuha umusaruro mwiza cyane, abone ibitunga umuryango we, ndetse n'ibyo yasagurira amasoko akabona amafaranga.

Amateke aryoha cyane yitwa bwayisi, aya mateke akaba akunda kwera ahantu h'ibishanga hari amazi, akaba ari amateke akundwa n'abantu benshi cyane kubera uburyohe agira.

Voka zeze ziri mu giti, zitegereje kuba zasarurwa, cyane cyane ko zimaze kwera, zikaba bazitara bakazirya cyangwa se bakazijyana ku isoko, kugira ngo ziribwe n'abantu bagiye batandukanye.

Umugore uri mu murima wa karoti akaba ari gusarura karoti ze, bigaragara yuko zeze, akaba afite isuka. Ndetse zikaba zigaragara yuko zakuze neza cyane, akaba atangiye gusarura ngo ajyane umusaruro we ku isoko.

Umuhinzi uri mu murima w'inanasi uri gusarura ndetse, izindi nanasi nyinshi zikaba zikiri mu murima, akaba yejeje umusaruro we akaba ategereje kuzawugeza ku isoko.

Igihingwa cyangwa se ibihingwa bizwi nk'amashu, bikaba bikunda guhingwa cyane ahantu hari amazi, ndetse no mu bishanga, izi zikaba ari imboga zikunda kuribwa cyane n'abantu bagiye batandukanye.

Abantu bari gutunganya ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibinyampeke nk'ibishyimbo, ndetse n'umuceri n'ingano, bakaba bari kubitunganya kugira ngo babashe kubibika neza, bizagurishwe.

Abakozi bari gukora mu murima w'amashu, amashu akaba ahingwa ahantu hari amazi kugira ngo akure neza, amashu kandi aribwa n'abantu benshi cyane, kubera ko azwiho gutubuka.

Uyu ni umusaruro w'ubuhinzi, intoryi ndabonamo pavuro n'inyanya amashu, bisa naho biri mu isoko, byagiye gucuruzwa ku mpamvu y'amafaranga, abahinzi bakaba aribyo bakuramo amikoro yabo, kugira ngo babone uburyo bw'imibereho.

Izi ni imbuto zizwi nk'amaronji, amaronji akunda guhingwa n'abaturage, cyane cyane kugira ngo bazazigurishe babone amafaranga yo kwifashisha, zikaba zikundwa n'abantu bose, cyane cyane ko ari imbuto zigira ingaruka nziza ku buzima bw'abantu.

Umuhinzi uri mu murima, aho ari kwita ku bwoko bw'ibihingwa by'imbuto byitwa inyanya, akaba ari kuzikorera azitaho, kugira ngo zizabashe kwera neza zimuhe umusaruro mwinshi yifuza.

Ihene zahurijwe hamwe zazanywe mu isoko kugira ngo abakiriya babaga cyangwa se bagiye kongera kuzoroha babashe kuzigura bazijane, abazibaga bazibage ndetse n'abagiye kuzorora bazorore kugira ngo zororoke.

Pavuro ziri mu murima, imwe y'icatsi, ndetse n'indi bigaragara ko yamaze gutukura, bigaragara ko yeze mu gihe cyashize, zikaba ari ipavuro bigaragara ko zafumbiwe neza, ku buryo zibasha kwera zimeze neza cyane, zikaba zigeze ndetse n'igihe cyo gusarurwa.

Amoko y'ibiribwa bitandukanye, bikaba byitwa ibishushu, bakaba babihinga ahantu hari ibiti, bikaba biranda, bikagera aho bikazana imiteja, igakura, ikavamo ibishushu. Hakaba hari ibindi by'icyatsi byitwa kokombure, nabyo bahinga bakabigurisha, bikavamo amafaranga menshi cyane.

Abakozi bari mu murima, bari gukora igikorwa cyo guhinga, kikaba ari igikorwa bakora bifashishije ibikoresho byitwa amasuka. Bakaba babikoresha bari kugira ngo bahinge intabire zo kuzateramo imyaka igiye itandukanye, akenshi bakaba bakunda guhinga ibigori n'ibishyimbo, ndetse n'ibindi biryo byo kurya bitandukanye.

Imbuto ziryoha cyane zizwi nka avoka, zikaba zera mu biti, zikaba zigira uruhare n'ingaruka nziza ku buzima bw'abantu bazirya, cyangwa se bakunda kuzikoresha.

Ibishyimbo biri mu murima by'ubwoko bugufi, byahinzwe kugira ngo bijye bitanga umusaruro urimo imiteja, cyangwa se ibishyimbo byeze, bibashe kujyanwa ku isoko bikurwemo amafaranga.

Amateke yasaruwe azwi nka bungubungu. Akunda guhingwa cyane mu rutoki, cyangwa se n'ahandi hantu hari itaka n'ubuhehere bwiza cyane. Akaba ari amateke aryoha cyane.

Ibigori bihinzwe mu gishanga byenda kugera igihe cyo kwera bikazasarurwa. Byahinzwe ku bwinshi aho abaturage bahuje ubutaka bakaba bashaka kuzabona umusaruro mwinshi bagasagurira n'amasoko.

Igihingwa gitera imbaraga kizwi nk'imyumbati, iki kikaba ari igihingwa gikunda guhingwa cyane ahantu hari ubutakara bwera neza, iki kikaba ari igihingwa gikunda kuribwa ndetse kikaba cyanakinikwa hagakorwamo ifu y'ubugari.

Umukozi uri kuvomerera imyaka yahinze, kugira ngo iyi myaka itazuma. Iyi myaka bakaba akenshi bayivomerera bakoresheje ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutwara amazi, harimo ibizwi nka rozwari. Ndetse n'ibidomora cyangwa ibijerekani.

Imifuka irimo ibirayi byamaze gusarurwa, bitegereje kujyanwa mu isoko, kugira ngo bibashe kugurwa n'abaturage bagiye batandukanye, hanyuma ababihinze nabo babone amafaranga.

Umuntu uri mu murima w'inyanya wambaye imyambaro yabugenewe, harimo ga n'agapfukamunwa akaba ari mu nyanya ze ari kuzitaho, inyanya bakunda kwita umushingiriro zikunda gutanga umusaruro mwinshi cyane.

Ibigori bitaragera igihe cyo kwera, cyane cyane bikaba bigeze igihe cyo guterera, aho biba biri guheka aribwo biri guheka utugori dutoya, tuba tutarazana impeke ndetse n'imisatsi yatwo ikaba iba itaruma.

Imbuto zitandukanye zirimo avoka, zikaba ari imbuto ziryoha cyane, iyo bazitaze zigashya, hakaba hariho umuneke uva ku gitoki, na cyo iyo babanjije kugitara kigashya, hakaba hariho n'inyanya bahinga mu murima, zamara gutukura bakazijyana ku isoko. Ndetse n'indobo y'ubunyobwa bacuruza.

Imyumbati yeze bigaragara ko zahinzwe ahantu heza, ikaba yashyizwe ahantu hamwe, zitegereje gutegurwa ngo zijyanwe ku isoko, cyangwa se ziribwe zimaze gutekwa.

Amatunda yeze meza cyane, amaze gutukura aryoshye cyane, yasaruwe bigaragara ko yahinzwe neza n'umuhinzi ubizi kubikora neza cyane, akaba yarasaruwe, akaba yajyanwa ku isoko igihe icyo aricyo cyose cyangwa se akaribwa.

Umubyeyi ufite ibiti, bigaragarako bivuye mu ituburiro, cyangwa se pipiniyeri, biterwa cyane cyane, bishobora kuvangwa nimyaka, maze bikazasarurwa ndetse bikanifashishwa mu kurinda isuri.

Umugore uri mu murima w'ibishyimbo bigaragara yuko bitari byera, bikaba bigeze igihe cyo mu miteja. Bikaba ari ibishyimbo birebire bikunze guhingwa mu bishanga, aho babihinga bakabishingirira kugira ngo bikure bizabashe kwera neza.

Ikiribwa cyitwa igihaza kikaba gihingwa ahantu hari ubuhehere ndetse n'ubutaka bwiza cyane kikaba kizwiho kugira intungamubiri nyinshi cyane ndetse abakirya bakaba bagikundira uburyo gitubura amafunguro.

Umusozi uhanamye baciyeho amaterasi y'indinganire, bakaba barabikoze mu buryo bwo kugira ngo uno musozi bawurinde isuri, kugira ngo abaturage bazashobore guteraraho imyaka yabo, ntizijangwe n'isuri.

Imbuto zitwa pavuro zahinzwe neza cyane mu buryo bwa kijyambere, zikaba zeze zitegereje gusarurwa zikajyanwa ku isoko, zikagurishwa, zikaribwa.

Imbuto zizwi nk'inyanya, zahinzwe mu buryo bwa kijyambere ndetse zitaweho neza, zikaba zeze zigeze igihe cyo kuba bazisarura, bakazijyana ku isoko zikaribwa.

Imbuto ziryoha cyane zizwi nk'amapera, zeze bamaze gusarura, bazishyira mu gikoresho cyitwa igitebo, zikaba zitegereje kuribwa cyangwa se kujyanwa ku isoko.

Imyumbati iri mu murima, ihinzwe ahantu hanini cyane kugira ngo igihe nikigera imajije kwera, bazayikure bayijyane ku isoko, cyangwa se bakoremo ifu y'ubugari,..

Imbuto zasoromwe ziri mwibase, zizwi nk'amaronji zikaba zeze, bigaragara ko ari bwo ziri gusoromwa, cyangwa se bari ku kuzaha kugira ngo bazijyanane ku isoko, ziribwe ndetse amafaranga agaboneke.

Igiti cy'umwembe kikiri gito, kikiri gukura kugira ngo nikimara gukura kizatange umusaruro w'imyembe ubashe gushyirwa ku isoko, abaturage bagure nyirurugo nyirawo abone amafaranga menshi.

Umugore uri gukorera ibigori ari kubishyiraho imvaruganda cyangwa se ifumbire mvaruganda kugira ngo bizamuhe umusaruro ushimishije, ubashe gutunga umuryango we ndetse asagurire n'amasoko.

Ibirayi byamaze gusarurwa, bakabizana mu ikusanyirizo kugira ngo bizajyanwe ku masoko, bigurwe n'abaguzi bagiye batandukanye bagiye kubirya mu ngo zabo, cyangwa se kubikoresha no muri bizinesi zindi bakora zerekeranye no gutunganya ibiribwa.

Ibitunguru birunze ahantu. Bakaba barabisaruye bakabitunganya, bakabirunda ahantu kugira ngo bazabigurishe bavanemo amafaranga. Ibitunguru bikaba biryosha ibiryo cyane, binyuze mu gukaranga, abantu benshi bakaba babikundira agahumuro kabyo.

Igitoki gihiye cyamaze kuba imineke, cyatazwe kikaba cyarahiye ndetse n'ikindi kiri iruhande rwacyo, cyo kitari cyashya kikiri kibisi gishobora kuzatarwa, nacyoba ki kazaba imineke mu minsi iri imbere, cyane ko bamaze kubisarura byose.

Imifuka irimo ibihingwa bizwi nk'ibigori byamaze gusarurwa bakabihungura bakaza kubihuka hano kugira ngo bizabashe kubeteshwa nyuma bikurwemo amafu agiye atandukanye cyangwa se bizongere kuvamo imbuto batera.

Isoko riri gucururizwamo ibiribwa bitandukanye byiganjemo imbuto nk'ibinyomoro, imyembe ndetse n'ibizwi nka wotameloni bikaba ari ibintu bikunda kugurwa cyane kubera ko byongera amaraso nk'ibinyomoro.

Amatunda yeze, bamaze kuyasarura bakaba bategereje kuyajyana mu isoko cyangwa kuyarya, amatunda kandi akaba ari imbuto nziza cyane zigira intungamubiri ndetse akanarinda n'indwara zitandukanye.

Umugore uri mu murima w' ibirayi; ibirayi bigaragara ko bikiri bitoya bitari byagera igihe cyo kwera, bikaba byegereje kuzana uruyange; ibirayi iyo bimaze kuzana uruyange, barabihingira bakazabijyana ku isoko byeze nyuma yo kubikura.

Imineke izwi nk'akamara ikaba ari imineke iryoha cyane, ikaba iva ku bitoki bitoya cyane byera ahantu h'itaka ryumutse, iyo mineke ikaba ikundwa n'abantu kubera uburyohe bwayo bwinshi.

Kimwe mu bwoko bw'ibihingwa by'ibinyampeke kitwa amasaka, aya akaba akoreshwa mu gukora amafu agiye atandukanye y'igikoma, cyangwa se no kwinika hakavamo amamera yo kubetesha bagakora ibigage.

Ibishyimbo bizwi nk'imiteja, bakaba babisoroma bakabijyana ku isoko, abantu bakabiteka nk'imboga, bakaba babirisha ibindi biryo bigiye bitandukanye. Iyi miteja iri gusoromwa mu bindi bishyimbo, kugira ngo ijyanwe ku isoko.

Igihingwa cya soya, zikaba ziri mu murima, zikaba zitarera zikiri imiteja, zishishe cyane bigaragara ko zafumbiwe, ndetse zikaba zibura igihe gitoya zikaba zakera, cyane yuko zamaze kuba imiteja ndetse n'impeke zikaba zaramaze gukura.

Inzu imanikwamo ibigori cyangwa se mu yandi magambo icyo bita hangari. Hakaba hamanitsemo ibigori byinshi cyane, bikaba ari umusaruro w'abaturage baba barahurije hamwe, kugira ngo bibashe kurindwa neza ibyonnyi.

Amasaka ari mu murima yegereje igihe cyo kwera akaba yasarurwa, agatunganywa agahunikwa cyangwa se akabeteshwa, akavamo ifu y'igikoma cyangwa akinikwa agakorwamo imisururu.

Ibishyimbo biri mu murima, ibishyimbo byo mu bwoko by'ubwoko burebure bashingirira bifashishije ibishingirizo cyangwa se ibiti, bikaba bigeze igihe cyo gutangira kwera bikaba bigeze mu gihe cyo kuba ari intonore.

Abagore bari guhura ibishyimbo bakoresheje ibibando, aho babihura bari kugira ngo impeke cyangwa se intete z'ibishyimbo zibashe kuvamo, ubundi bakore icyo bita kugosora babone kubyanika, ubundi babihunike mu mazu yabo.

Abahinzi bari gukorera igihingwa cyitwa umuceri, ubu umuceri ukaba uhingwa cyane cyane ahantu hakunze kuba amazi menshi, kubera ko ukunda gukorana n'amazi utakwera amazi adahari, ukaba wera ukajyanwa mu masoko ukabanza watunganywa biciye mu nganda.

Ubunyobwa bamaze gusarura bategereje kuzabutonora bakajya kubushyesha, cyangwa se kububetesha, kugira ngo buzakoreshwe mu bintu bijye bitandukanye, mu biribwa cyangwa se n'ahandi hantu bwakwifashishwa.

Abantu bari gupakira umusaruro w'ibigori weze mu mirima yabo. Ibigori bakaba barabisaruye bakaba babipakira mu mifuka bakabijyana mu ngo guhunika cyangwa bakabijyana ku masoko kubigurisha.

Abantu bakoresha, bakoresha imbaraga cyangwa se abazwi nk'abakarani bari gutwara imifuka bayirunda hamwe kugira izapakizwe ibinyabiziga , cyangwa se ikoreshwe ibindi bintu babigenewe.

Ubunyobwa bweze bamaze gusarura, bakaba bategereje kuzabutonora, bakabukoresha icyo bwagenewe gukora, bukaba bwazabeteshwa, cyangwa se bugakarangwa, bukaribwa cyane ko ari cyo bwahingiwe bikaba bigaragara ko bwamaze kwera.

Ibigori byeze bikiri mu murima batari basarura, byageze igihe cyo kubisarura, bakaba basigaje kuza kubivuna bakabijyana mu rugo, bakaba babihungura, cyangwa bakabimanika.

Ubwoko bw'ibigori by'umuhondo bikunda kuryoha cyane. Akenshi bikunda kwera ahantu hari ubutaka bwiza budafite inenge. Cyangwa se bikaba bizwiho kwihanganira ubushyuhe n'izuba.

Ibigori bahinze ,nyuma bakabisarura ,bakabijyana ahantu habugenewe, bakabimanika bakaba bategereje kuzabihungura ,bakabibeta bakabonamo ifu yo kunywa igikoma ,cyangwa bakabetamo ifu ya kawunga.

Umugore uri gutunganya ibigori akoresheje uburyo gakondo bwitwa kugosora, akaba ari gutunganya iyi mbuto kugira ngo azabashe kuyitera imeze neza, cyangwa se azabikoreshe mu kubetesha abone ifu y'igikoma cyangwa se iyo gukoramo umutsima.

Igihingwa cyitwa umuceri bakunda guhinga ahantu haba amazi menshi cyane, kubera ko cyera bigizwemwo uruhare n'ayo mazi, kikaba kidashobora kuba ahantu hataba amazi, igihingwa kikaba cyera impeke, cyangwa se cyikajyanwa gutunganywa mu nganda, kugira ngo abantu babone uko bagiteka.

Inka iri kumwe n'inyana yayo, bigaragara ko yayibyaye mu gihe kitari icya kera cyane, ikaba ikiri ntoya bigaragara yuko igiye konka, ndetse nyina ikaba ibyagiye.

Umuntu ukora ubworozi bw'inkoko za kijyambere, akaba yarubatse ibibutii bikozwe mu biti. Akaba ari ho inkoko ze ziba, zikabasha kumuha umusaruro w'amagi. Akaba ayajyana ku masoko, cyangwa se agasagurira n'urugo rwe ayo kurya.

Inka yororerwa mu kiraro ifite amahembe manini cyane. Bigaragara yuko yitaweho neza, ifite ikiraro gisakaye neza cyane cy'ibiti, n'amabati mashyashya.

Rimwe mu matungo magufi yororerwa mu rugo rizwi nk'ingurube, rikaba ryenda kubwagura ukurikije uko rigaragara, rikaba ari itungo rikunda gutanga inyama cyane mu gihe cyihuse kitarambiranye.

Abantu bari mu ibagiro cyangwa se ahatunganyirizwa inyama zo kuribwa, hagaragara nk'abakozi cyangwa se abanyeshuri, bari kwitoza umwuga w'ibijyanye no kwita ku nyama ndetse n'amatungo.

Inka ndetse n'abashumba bari mu rwuri baragira izo nka, inka zisa neza cyane bigaragara ko zahawe ubwatsi ndetse n'amazi, zikaba zitoshye cyane zisa naho zitanga umukamo mwiza cyane ndetse zikaba zibyara zigatanga umukamo.

Ubwoko bw'amatungo magufi yororerwa mu rugo yitwa intama. Akaba azwiho kugira uruhu ndetse n'ubwoya bworohera gukoramo imyambaro, kubera ubwoya bwayo buba ari bwinshi cyane.

Ibibwana by'ingurube bikiri bitoya byororerwa mu kiraro, bikaba bitari byakura neza ngo bigurishwe, bazabibage cyangwa se bizatange undi musaruro bitegerejweho, bakaba babigaburira ibyatsi, cyangwa n'ibindi biryo by'amatungo.

Inka za kijyambere zororerwa mu biraro, cyangwa ahantu bita inzuri, akaba ariho izi nka zirishiriza. Umuntu w'umuveterineri akaba yaje kuzitera urushinge, kugira ngo azirinde indwara zitandukanye zifata amatungo, zikayabuza gutanga umusaruro witezwe.

Umuntu uri kwita ku matungo yitwa inka, akaba ari kuzitera umuti cyangwa se ari kuzirinda indwara runaka, kugira ngo zitazafatwa n'uburwayi, maze zikananirwa gutanga umusaruro uzitegerejweho,

Ingurube zikiri ntoya cyangwa ibibwana by'ingurube biri mu kiraro. Aho babyororera, bakaba babihera ibyo kurya hano ndetse bikaba bategerejwe gukura ngo bigurishwe, cyangwa bazabibage babivanemo inyama zo kurya.

Inkoko borora mu buryo bwa kijyambere, bakazishyira hamwe bakajya barazigaburira ibiryo bitandukanye, kugira ngo nazo zizabashe gutanga umusaruro bashaka.

Ubwoko bw'amatungo bwororerwa mu rugo buzwi nk'ingurube. Ingurube bigaragara ko yorowe neza, iri mu kiraro gisukuye kandi ikaba ihaka cyangwa ifite amezi. Ingurube zikaba zitanga inyama mu buryo bwihuse.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere, izi nkoko bakaba bazitaho kugira ngo zizatange amagi azagurishwe avemo amafaranga, ndetse n'izindi zizatange inyama na zo ziribwe, uyu muntu akaba azitaho buri munsi kugira ngo hatagira ikibazo zihura na cyo.

Ingurube yabwaguye ibibwana byinshi, ikaba iri kubyonkereza cyangwa se iri kubwaguza ibibwana byayo iryamye. Ikaba ari ingurube bigaragara yuko yorowe mu buryo bwa kijyambere.

Ubworozi bw'inka bukozwe mu buryo bwa kijyambere, aho inka zafashwe zigashyirwa mu rwuri, zikazitirwa, ndetse zikaba zicungirwa umutekano, ku buryo ntacyazihungabanya.

Inyamaswa ziri mu cyanya cy'ubukerarugendo gisa naho ari parike. Ndabonamo imparage ndetse n'ibindi bisimba by'ubwoko bugiye butandukanye, biri ahantu h'ibyatsi by'umukenke, ndetse n'udusozi tugiye dutandukanye turi muri icyo cyanya.

Ingurube yororerwa mu rugo, ikaba igaragara nk’aho yorowe nabi cyane kubera ukuntu isa. Bigaragara ko itahabwaga icyarire gihagije, ndetse itagaburirwaga neza cyane. Ikaba ariyo mpamvu igaragara nabi, ndetse ikaba isa n’aho yishwe n’inzara cyane.

Ubwoko bwa bumwe mu bisimba bikurura inda buzwi nk'igihangara, iki gisimba kikaba ari igisimba cyirukanka cyane kikaba cyurira ibiti birebire ndetse kikaba gikunda kuba cyakibera mu rutare.

Inyoni ikunda guhiga cyane, ikaba iri mu ishyamba ndetse ikaba yafashe umuhigo, inyamaswa yitwa igikeri, aho igiye kukirya.

Inyamaswa ntoya iri mu zororerwa mu rugo yitwa urukwavu, iri mu kibara ikaba iri kurisha cg se iri kurya ubwatsi, iyi nyamaswa ikaba izwiho kwiruka cyane.

Inyoni nziza cyane iryoheye amaso kuyireba, ihagaze ahantu mu byatsi bitoshye. Ikaba iri kwitegereza isa n'aho iri guhiga udusimba cyangwa se n'irindi funguro ryose yabona ryayitunga, kugira ngo ibashe kubaho ubuzima bwayo bukomeze.

Inyamaswa ndende cyane zigira amajosi maremare cyane zizwi nka twiga, cyangwa se agasumbashyamba, zikunda kurisha hejuru y' ibiti, zikaba ziri mu ishyamba cyangwa se mu canya cakomwe cyangwa se gikunze kwitwa parike.

Ubwoko bw'inyoni bita inuma, ikaba iri kugaburira ibyana byazo cyangwa se udushwi twazo, aho iba yagiye kuduhahira ibyo ibonye ikabizana ikabisangira na yo. Zikaba ziri mu cyari gikoreshejwe ibumba ndetse n'ibyondo.

Inyamaswa zigira amacumu akomeye cyane kandi menshi ku mubiri wazo, zizwi nk'ibinyogote. Zikaba zikunda kuba mu myobo. Ndetse n'izindi nyamaswa zishakaga kuzihiga bikaba bitazorohera kuzifata, kubera ya macumu zifite ku mubiri wazo.

Igisimba cyo mu gasozi gitinyitse kubera amahembe yacyo ameze nk'ibiti, kikaba kiri mu ishyamba cyangwa se mu cyanya gikomeye gikunda kwitwa parike, iki gisimba kikaba kikiri mu bikurura ba mukerarugendo benshi cyane.

Igisiga cy'umweru kizwi nk'inyange, kikaba ari igisiga gikunda kuba ahantu hari amazi cyane, kiba kiri guhiga udusimba two mu mazi nk'iminyorogoto, cyangwa se inzoka ziba ziri gutemberera muri ayo mazi.

Iki ni bumwe mu bwoko bw'ibiguruka, kikaba kitwa igikona, kikaba ari ikiguruka gikunda kurya inyama cyane, kikaba gikunda kubarizwa ahantu babaze amatungo nk'inka, n'izindi nyamaswa. Kiba gishaka inyama.

Igisiga gifite amabara menshi, n'umunwa muremure. Muri ayo mabara hakaba harimo ibara ry'umuhondo riri imbere ku nda yacyo, ndetse n'ibara ry'ubururu riri inyuma ku mababa yacyo, cyangwa se hejuru go cyifashisha kiri kuguruka.

Inyamaswa iri mu ishyamba igaragara nk'isha, bigaragara ko ishobora kuba iri guhiga, cyane ko ihagaze yonyine kandi ikaba yiteguye kwirukanka cyangwa se kugira ikintu yafata.

Inyoni ihagaze mu ishyamba. Ihagaze ku giti kimwe mu biri mu ishyamba, ikaba iri kureba uburyo ishobora kuba yahiga, cyangwa se ikaba iruhutse ikaba itegereje kuba yakongera gusubukura guhiga, nyuma yaho.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'imbwa iri mu gasozi, iri guhiga, ikaba iri mu byatsi itegereje yuko yabona umuhigo, ikawica. Cyangwa se ikaba iruhutse, itegereje kongera gusubukura ibikorwa byayo byo guhiga, kugira ngo ibone icyo irya.